Ni abasore babiri bicaye ahantu hakaba harimo umusore umwe ukorera ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN, arimo arereka undi musore bari kumwe muri telefone kugira ngo amusobanurire uko MTN itanga serivisi.

Akazu ubona ko gakorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye hakaba hariho ibirangantego by'ikigo k'Igihugu gishinzwe ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cya MTN, hari abantu bakorera icyo kigo bicayemo aho ndetse hakaba hari n'abandi bantu baje babagana kugira ngo babahe serivisi.

Ni umugabo uhagaze imbere y'akazu kariho ibirangantego by'ibigo bishinzwe itumanaho mu Rwanda MTN ndetse na Tigo, akaba afashe ku igare ryegetse kuri iyo nzu.

Ahantu hari utuzu tw'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya tigo, aho aka kazu gatangirwamo serivisi zose zerekeranye na Tigo, byaba ari ukubitsa cyangwa se kubikuza amafaranga.

Ni inyubako y'ubucuruzi ikaba ifunguye umuryango aho hari umuntu winjiyemo ari kugira ibyo yihahira, imbere ku muryango hari umuntu wicaye munsi y'umutaka wa Airtel aho atanga serivisi zigiye zitandukanye nko kubitsa ndetse no kubikuza.

Ni ahantu bigaragara ko hahuriye abantu benshi bagiye batandukanye, hakaba hari umwe mu bantu bambaye imyenda y'ubururu, uri kwita ku bamama baje aho ngaho, hari telefoni arimo arabereka, bisa nkahoa hari ubutumwa runaka arimo arabagenera cyangwa se hari igikorwa arimo arabafasha.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cya MTN, cyegereje serivisi abaturage, hari utuzu bagiye bashyira ku mihanda, aho bashyiramo umukozi wabo akajya afasha abakiriya babagannye, kubabikuriza amafaranga no kuyabitsa.

Ni umugabo bigaragara ko akorera ikigo cy'Igihugu gishinzwe ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda, aho arimo aravuga avugira muri mikorofoni, inyuma ye hakaba hari icyapa cyamamaza MTN kuko uyu mugabo niyo akorera.

Umugabo uhagaze ahantu mu muryango bigaragara ko aka kazu gacururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, aka kazu kakaba kari mu mabara y'umuhondo aho inzugi zako ari umuhondo, mo imbere harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse iruhande rw'uyu mugabo hakaba hari intebe zihateretse.

Umugabo wegamyeye ahantu hari icyapa cya Equit, uyu mugabo akaba ari umwe mu bakora batanga serivisi zigiye zitandukanye zijyanye n'ibingibi bya Equit cyo kubitsa no kubikura amafaranga.

Abantu batatu babiri muri bo bakaba bambaye utujiri cyangwa se impuzankano y'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya Airtel, aho undi yaje abagana kugira ngo bamubikuririre amafaranga cyangwa se bayamubikirize.

Abantu babiri bahagaze iruhande rw'akazu gakorerwamo n'umukozi ukorera ikigo cya sosiyete ya MTN mu Rwanda, aho baje kwaka serivisi zijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga, iruhande rwako hakaba hariho ibyapa bigiye bitandukanye biriho ibya Airtel ndetse n'ibindi.

Abantu bateraniye ahantu bakaba bakurikiye umuntu ubari imbere. Bisa nk'aho uyu muntu hari ikiganiro runaka arimo arabaha ndetse anabagezaho ubutumwa bw'ingenzi yabateguriye kuri uwo munsi.

Abantu bagera kuri bane bakaba bicaye mu biro byabo aho bakorera akazi, biragaragara ko buri muntu wese ahuze aho imbere ya buri muntu hateretse imashini ndetse n'ibindi bikoresho byabo bigiye bitandukanye bifashisha mu kazi kabo.

Abantu benshi bisa nk'aho ari koperative yishyize hamwe mu buhinzi bakaba bari ahantu hahinze ibintu bigiye bitandukanye, aba ngaba ni abakecuru ndetse n'abasaza ubona ko bishimiye ibihingwa byabo.

Abantu bambaye impuzankano bisa nkaho ari koperative yishyize hamwe aho bari mu murima barimo baragenda bareba ibyo gukora, hari umugore umwe wunumye bisa naho hari ikintu ari gushyira hasi kandi icyo kintu kikaba ari ingenzi.

Umworozi w'amatungo agiye atandukanye, aho ari ahantu yororera ayo matungo. Akaba yambaye imyenda yabugenewe, aho afite akantu kariho ibiryo ndetse n'imiti, aje kugaburira aya matungo ye kugira ngo abashe gutanga umusaruro.

Ni abantu bicaye ahantu mu twatsi munsi y'igiti, bakaba barimo baraganira. Birasa nkaho ari koperative yahuriye aha ngaha, harimo abantu b'abagabo ndetse n'abagore, bagize iyi koperative.

Abantu benshi bagiye batandukanye, aho bigaragara ko ari koperative. Ahangaha baje kwanika ibihingwa byabo bahinze, kugira ngo babashe kubitunganya babijyane ku isoko.

Ni umurima uhinzemo inanasi, ukaba ubona ko izi nanasi ziburaho igihe gito ngo zere, harimo izatangiye guhisha, hakaba hari n'izindi ziburaho agahe gato ngo zihishe, inanasi ni nziza cyane kuko zigira umutobe uryoshye.

Ahantu hateraniye abantu benshi bagiye batandukanye aba bantu bakaba bafite n'imashini nyinshi zidoda, harimo abagore ndetse n'abagabo bikaba bisa nk'aho ari koperative runaka, bari ahantu hari inzu nziza ndetse hari n'ubusitani bwiza.

Mu tubari tugiye dutandukanye two mu Rwanda hasigaye hari ibikoresho bigezweho abantu b'abakiriya bifashisha mu gihe baje kunywera muri utwo tubari ndetse utubari twinshi usanga twerekana n'imipira aho hari ibikoresho bifasha mu kwerekana uwo mupira.

Amagaziye atanu yose ariko akaba ari mo inzoga zashizemo, amacupa yazo yose arafunguye bisa nk'aho yamaze kunywebwa hakaba harimo ubusa.

Mu tubari twinshi tugiye dutandukanye two mu Rwanda hagiye harimo ibikoresho byifashishwa mu gihe abakiriya baje kunywa inzoga. Harimo intebe nziza zigezweho ndetse n'ameza. Hagaragara kandi amatara meza afasha abantu mu rwego rwo kubaha urumuri.

Ni umuntu wifotoreje imbere y'ibicuruzwa bye, iyi ngiyi ikaba ari butike irimo etajeri igiye ipanzemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aha ngaha umuntu iyo agize ikintu ashaka, araza uyu muntu akabimufashamo akakimuha.

Umugore bigaragara ko acuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye akaba ari mu nzu ye y'ubucuruzi, afashe ikintu kimeze nk'umwuko aho ari kugira utuntu adaha mu kantu kamuteretse imbere k'agatete ashyira mu ndobo, inyuma ye hari etageri irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ni ahantu hari inyubako bisa nk'aho icururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, haragaragara antene y'igisahani ndetse haragaragara kandi ko hacururizwa na radiyo n'utundi tuntu tw'ingenzi, twifashishwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi.

Ni ahantu bisa nkahoa hari inzu y'ubucuruzi, muri iyi nzu hakaba harimo ibintu byinshi bigiye bihacururizwa. Akayirakajyayo karimo amapave. Bisa nkaho uyu muntu ucururiza hano ari umuntu ufite amafaranga kuko acuruza ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye.

Abantu babiri bari muri butike hakaba harimo umugabo ndetse n'umugore, umugabo biragaragara ko ari we nyiri bino bicuruzwa, aho ari kwereka uyu mugore ibyo yaje gushaka kugura urabona ko ari butike irimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanya.

Ni ahantu bigaragara ko hari inyubako z'ubucuruzi, imbere yayo hakaba hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari imifuka irambitse hasi ndetse hari n'umuntu urimo urafungura igikarito, imbere y'icyo gikarito hakaba hari ibasi igiye irimo udukoresho tugiye dutandukanye, iyi ngiyi ikaba ari butike aho umuntu ushaka agenda akagura icyo ashaka.

Ni imifuka myinshi iteretse ahantu, iyi mifuka ikaba ipakiyemo ibintu bigiye bitandukanye, inyuma y'iyi mifuka hakaba hari abantu bahagaze ndetse haragaragara n'imodoka bisa nk'aho ari yo igiye gutwara ino mifuka, inyuma y'imodoka hari inzu ihari n'ibiti ndetse haragaragara na moto inyuma yayo.

Imbere y'inyubako ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari ibintu birimo biracuruzwa n'uyu muntu uhicaye, hari umufuka usa n'aho upakiyemo ibintu, hakaba hari indi mifuka irimo ubusa, haparitse kandi amagare ndetse hari n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bagiye batandukanye, hakaba harimo umugabo umwe w'umuzungu. Bisa nkaho bari bamaze gusenga, barangiza bagafata ifoto y'urwibutso kugira ngo bazahore bibuka igikorwa cyo gusenga bari bamaze gukora.

Ni ahantu bigaragara ko wagira ngo ni mu ishuri hakaba harimo abana benshi bicaye ndetse hakaba harimo n'undi muntu w'umukobwa bisa nk'aho ari mwarimu wabo aho arimo aragerageza kugenda abaha ibitabo ngo basome, ku gikuta hashushanyijeho amatungo agiye atandukanye.

Ni byiza ko abantu twese tugira aho dusengera kugira ngo tujye tubasha kwiyegereza imana tuyiture ibibazo dufite ndetse tuyisabe imbabazi y'ibyaha twayikoreye, ni abantu bari mu rusengero aho barimo barasenga.

Abantu bicaye imbere y'abandi, bisa nk'aho aribo babayoboye mu kiganiro barimo, biragaragara ko hari abantu barimo barafata amajwi kandi abo bantu bicaye, bambaye neza cyane, urabona ko ari abasirimu.

Ni abapadiri babiri ubona ko bashagawe n'abantu benshi cyane, abangaba bakaba bafasha abantu b'abakiristu b'abanyayagatolika kubagezaho ijambo ry'imana, urabona ko abantu bari inyuma babishimiye cyane barimo barabitegereza.

Abantu bisa nk'aho bari ahantu hasengerwa aba ngaba bakaba barimo barasenga, bose bazamuye amaboko hejuru bisa nk'aho hari indirimbo runaka cyangwa se isengesho barimo barasenga basaba Imana, hari n'abandi bantu inyuma yabo babakikije.

Ni abantu benshi batandukanye bahagaze imbere mu rusengero. Aba ngaba bigaragara ko ari abaririmbyi cyangwa se korari iririmbira abaje gusenga. Hari umusore ubarimo ufashe mikorofone mu ntoki bisa nk'aho uyu nguyu ariwe uyobora bano baririmbyi.

Abanyeshuri benshi bicaye ahantu bambaye impuzankano, aho imbere yabo hahagaze umuntu umeze nk'aho ari umupadiri akaba arimo arabagezaho ubutumwa bwiza yabateguriye, inyuma yabo hakaba hari ibiti byinshi bihari urabona ko abana bamuteze amatwi.

Mu mahoteli yo mu Rwanda agiye atandukanye, usanga bategura neza amafunguro menshi y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye ndetse usanga buri funguro riri ku isahani yaryo ndetse n'amasorori yaryo, aho umukiriya aza agahitamo ibyo ashaka bakabimuha ku giciro cyiza.

Ni mu nyubako bisa nkaho ari muri sare hakaba hicayemo abantu benshi bagiye batandukanye, bakaba basa nkaho bari mu nama aho bose bashyize ibitekerezo hamwe kugira ngo baganire ku kintu runaka.

Amahoteli hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda usanga afite imbuga nini yitaruye cyane, aho umuntu ashobora kugenda akicara agahumeka neza akaruhuka kandi usanga hateye ibiti bifasha abahari kuba babona umwuka mwiza wo guhumeka.

Mu mahoteli agiye atandukanye hirya no hino mu Rwanda, usanga hari ahantu heza bicaza abakiriya, bakabakiriza ibyo kurya byiza biteguye neza ndetse n'ibyo kunywa ndetse bakabishyira ahantu heza cyane hafite isuku.

Mu mahoteli yo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bagiye bafite ubukarabiro bwiza cyane, aho umuntu iyo ashaka koga intoki agenda akoga, yashaka no kwiyuhagira hari amadushe meza cyane arimo ibyuma byabuhariwe, abantu bifashisha barimo bakaraba.

Ni ahantu bigaragara ko ari muri sale nini, hakaba hateraniyemo abantu benshi bagiye batandukanye, hari umuntu uri hagati, bisa nkaho abandi bamukikije bateze amatwi ibintu arimo arababwira, hejuru ku rusenge hakaba hamanitse ibipurizo.

Ni ahantu bigaragara ko hubatse inzu ariko iyo nzu ikaba yubatse mu buryo bwa kijyambere bugezweho mu buryo bwa etaje. Iyi nzu ikaba ifite porotaye ku irembo bikaba bigaragara ko hakinze. Iyi nzu ikaba itanga serivisi za hoteli ndetse n'izindi.

Mu mahoteli agiye atandukanye yo mu gihugu cy'u Rwanda, bazanye uburyo bwiza bwo kwita ku bakiriya babo, aho babicaza ku ntebe nziza hanyuma bakabereka televiziyo, ubundi bakicara bakanezerwa bakaganira.

Ni inyubako nziza cyane ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, iyi nyubako ikaba ifite imbuga ngari cyane yitaruye irimo utwatsi twiza, hejuru hagaragara ikirere cyijimye cyane.

Amahoteli agiye atandukanyekanyi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda usanga afite ahantu heza ho kuruhukira, ahantu haba hari ubwogero ndetse n'udutebe twiza two kwicaraho ndetse ubu usanga hakikijwe n'ibiti bitanga amahumbezi ku bakiriya baba baje bagana izo hoteli.

Mu mahoteli yo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, hagiye harimo ibyumba byiza cyane ubona ko biteye amabengeza, harimo ibitanda byiza byo kuruhukiramo, hakabamo intebe nziza zo kwicaraho ndetse harimo n'amarido meza cyane.

Umugore urimo uratambuka ahantu haparitse imodoka akaba yikoreye akantu kariho ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, ni umugore bigaragaza ko arimo arashaka amafaranga akoresheje buno buryo buzwi nk'agataro, ari kunyura ahantu hari ibintu bihubatse ndetse n'amamodoka ahaparitse.

Ni umugore wicaye ahantu bisa nk'aho ari mu isoko, hakaba hari gucururizwa imyenda y'abamama igiye itandukanye, hari ibitenge bihagaragara by'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye na we ufite umugore, waza muri iri soko ukabasha kwihahira.

Ni ahantu bigaragara ko bisa nk'aho habereye isoko cyangwa se imurikagurisha, aho hari amamodoka ndetse n'abantu bagiye batandukanye bitabiriye iri soko. Hari abantu bafite amagare ndetse haragaragara n'umumama uri gukurura ihene n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ni ahantu hasi ku gishitingi hakaba harambuyeho utuntu twinshi tugiye dutandukanye bisa nkaho ari utwo baje gucuruza, hariho utujagi, hakabaho n'utundi tuntu turi mu dukarito, ndetse haragaragara n'imifuka y'ubwoko bugiye butandukanye, haragaragara kandi n'imyuko.

Ni ahantu harimo harakorerwa ubucuruzi bw'imyenda igiye itandukanye, hakaba hasakarishijwe shitingi bisa nkaho hano iyo umuntu ashaka kugura umwenda aza akavugana na nyirayo ubundi bakumvikana.

Shitingi ikaba iriho ibintu byinshi bigiye bitandukanye aho bisa nk'aho nyiri bibo bintu yaje kubigurisha, hari ibyuma byinshi hakaba kandi imyuko iri mu ndobo, hagaragara utuyunguruzo, ingufuri ndetse n'ibindi byinshi umuntu yaje kugurarisha.

Ni ahantu bigaragara ko harimo harakorerwa ubucuruzi hakaba hari umugore wikoreye ibase irimo ibintu ari kugenda acuruza ibindi abifashe mu ntoki, hari kandi ibindi bintu by'ibicuruzwa bigiye biri aho ngaho hakaba hari n'abantu baje kwihahira.

Ni urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane, aho harimo ahantu hacururizwa ibitoki, hakaba hari undi mugabo ufite igitoki ku igare urimo agenda aricunga, hari abantu baje kwihahira, urabona ko ari isoko ryiza cyane ryahuriwemo n'abantu benshi.

Ni ahantu harambuye shitingi hakaba hariho udukoresho twinshi tugiye dutandukanye umuntu yaza akagura akajya kudukoresha mu buzima busanzwe, hariho ibiyiko byo kurisha, hakabaho ibyuma byo gukoresha mu rugo, hariho akayunguruzo n'imifuka ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bigiye bitandukanye.

Ni mu isoko aho ubona harimo abantu benshi bagiye batandukanye, abaje kugura ndetse no kugurisha, harimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye ndetse urabona ko iri soko ryubakiye, harimo inyanya, ibitunguru, intoryi, imiteja ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni ahantu bigaragara ko hakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye, hakaba hari imyenda irambuye hasi ku gishitingi ndetse hakaba hari n'udukapu turi hejuru na two tukaba ducuruzwa, hari abantu kandi baje kwihahira, hakaba hari na moto iparitse ku ruhande.

Ahantu hari abantu bisa nk'aho ari abacuruzi, hakaba harimo umugore umwe wikoreye ibase irimo ibintu ari kugenda acuruza, biragaragara ko inyuma ye hari ibindi bicuruzwa bagiye bahamanika, bisa nk'aho aya ari amwe mu masoko abantu bitabira bakaza kugura ibintu, haragaragara kandi igice gitoya cy'imodoka ihaparitse.

Ni ahantu ubona ko ari ahantu heza cyane, hakaba hateguyemo intebe n'ameza zisa neza. Hicayemo abantu aho baje kuganira barimo bafata ibyo kurya n'ibyo kunywa. Aha ngaha hakaba ari mu maresitora cyangwa mu mahoteli.

Mu maresitora yo hirya no hino mu Rwanda urabona ko bashyizeho uburyo bwiza bwo kwakira abakiriya, aho harimo intebe nziza cyane ndetse n'ameza, aho bicaza abakiriya ndetse n'aho bashyirira ibyo babatumye.

Ni inyubako bigaragara ko ari inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere, iyi nyubako ikaba ari etage, aho izengurutswe n'ibirahuri bigiye bitandukanya, munsi y'iyo nyubako, hakaba hari ibiti bihagaragara, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi z' amaresitora ndetse n'ibindi.

Ni mu muhanda, aho harimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo imodoka z'abantu bitwara cyangwa se imodoka zigenga, hakaba harimo n'umumotari uhetse umugenzi, biragaragara ko ubutwazi mu gihugu cy'u Rwanda bwateye imbere.

Ni umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo utwaye ipikipiki, akaba ahetse undi mumama, ari mu muhanda mwiza cyane w'umukara ndetse inyuma yabo hakaba hari ishyamba rihateye, haragaragara kandi ipoto iriho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi.

Umugabo uri mu muhanda wa kaburimbo akaba atwaye ipikipiki arimo aragenda akoresha telefoni, iruhande rwe hakaba hari akayira k'abanyamaguru, hari kandi n'icyapa kigaragaza umuntu uri kwambuka umuhanda, hagaragara n'inzu z'ubucuruzi ndetse na jaride.

ni umugabo w'umupolisi akaba ari kumwe n'abamotari benshi, urabona ko aba bamotari bamukikije bisa nk'aho uyu mupolisi hari ubutumwa bw'ingenzi arimo araha bano bamotari na bo bamuteze amatwi kugira ngo bumve impanuro arimo arabaha.

Ni umugabo uri mu muhanda wa kaburimbo akaba afite igare ari gucunga, iryo gare rikaba ririho ibati ndetse iruhande rw'umuhanda hakaba hari inyubako z'ubucuruzi zihagaragara hari kandi n'abantu barimo baragenda mu kayira k'abanyamaguru, imbere y'izo nyubako hakaba haparitse n'imodoka.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hakaba harimo umumotari uhetse umugenzi, iruhande rw'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru ndetse haragaragara n'amapoto ari insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu gihugu.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, hakaba harimo umuntu utwaye moto aho ahetse umugenzi, iruhande rw'uwo muhanda hari inyubako, munsi y'iyo nyubako hakaba haparitsemo imodoka, haragaragara kandi n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo aho ahetse umugenzi, iruhande hakaba hagaragara akayira k'abanyamaguru, karimo n'abamama babiri barimo barakagenderamo, hagaragara kandi indabyo zihateye ndetse hakaba hari n'ishyamba, haragaragara n'ipoto ririho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi.

Umumotari uhetse undi muntu kuri moto, akaba ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwe hakaba hari abandi bamotari bahaparitse, haragaragara kandi amazu y'ubucuruzi ndetse hari n'ibyapa biriho abantu bamamaza inzoga, hari kandi n'umutaka wa sosiyete y'itumanaho mu Rwanda MTN.

Ni mu muhanda wa kaburimbo aho harimo umumotari uri kuri moto, iruhande rwe hakaba hari akayira k'abanyamaguru harimo n'abanyamaguru barimo baragenda, hepfo yabo hari inzu z'ubucuruzi hari n'igiti kandi kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Umusore uhetse abagore babiri ku igare, aho barimo baragenda mu muhanda umeze nkaho ari uwa kaburimbo, iruhande rwabo hakaba hari ibintu bihahinze byenda kumera nk'ibishyimbo. Umusore ubahetse akaba akandagiye hasi.

Ni mu muhanda usashemo amabuye hakaba harimo umumotari utwaye moto, iruhande rw'uwo mumotari hakaba hari inzu zihagaragara ndetse haragaragara n'ipoto y'umuriro w'amashanyarazi, biragaragaza ko mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda ubutwazi busigaye bwarateye imbere.

Umugabo utwaye moto mu muhanda wa kaburimbo akaba ahetse undi muntu, imbere ye hagaragara ibiti bikikije uwo muhanda ndetse mu ruhande rwe rw'ibumoso hagaragara inzu zihubatse.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hakaba harimo umusore utwaye igare, uyu musore akaba ahetse undi mukobwa inyuma. Iruhande rw'uyu muhanda hakaba hagaragara ipoto y'amashanyarazi iriho insinga, ndetse hari n'inzu zihagaragara.